Inzu y'imyidagaduro . Inzu musohokeramo wowe cyangwa umuryango wawe, mukareba amakinamico mukarya, mukanywa ,mukinezeza bihagije ,mukishima.

Inzu dusangamo ubucuruzi bw'icyo kunwa kitwa primusi cyangwa byeri, haba hari inzoga zitandukanye hari ibyo kunwa bitandukanye, bya kizungu n'ibya kinyarwanda harimo ibisindisha ibisembuye n'ibidasembuye.

Inzu y'ubucuruzi, inzu y'imyidagaduro, inzu igira amafunguro meza, ibyo kurya bitandukanye, inyama zitetse neza, umuceri, ibirayi bitogosheje, ibyo kunywa, no kurya.

Inzu ibonekamo ibyo kunywa bitandukanye by'ubwoko bwose， harimo ama wisiki， za divayi， ibyo kunywa bidasindisha n'ibisindisha，haba ibyo kunywa bitandukanye.

Inzu ihurirwamo n'abantu batandukanye, abagize ibirori byo gushyingirwa, by'amavuko bahurira hamwe bagahabwa aho kwicara, bagahabwa ibyo kunywa n'ibyo kurya, bakishimira umunsi wabo.

Izi ni inzu zicururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, ibyo kunywa bisembuye, ibidasembuye, bigira amata y'nyange, bigira ibikombe byiza , zakira abakiriya neza, iz'inzu zikora umurimo ababiririmo bakora umrimo bashinzwe.

Aha ni mu kabyiniro, aho abantu bahurira, haba hari amatara yijimye, bakabashiriramo indirimbo bakabyina, bakanywa, bakajya, umunshi ukira, bagashimisha ubuzima. Hahurira abantu batandukanye baje kwinezeza.

Aya ni amazu acururizwamo ibintu bitandukanye. Agira ibikoresho by'isuku, agira ibikoresho by'ubuhinzi, agira ibyo kurya, agira n'ibyokunywa biryoshye. Aya mazu afite ubucuruzi bwinshi.

Iyi ni inzu icururiza ikorerwamo ibijyanye no kwakira abayigana mu kubaha ibyo kurya ku mafaranga make, haba ibyo kunywa ibisembuye n'ibidasembuye, haba n'amacumbi ibintu byose birahaba.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, icuruza ibyo kurya, imigati, icuruza ibyo bashyira ku mugati, igira amazi yo kunywa, igira amata y'Inyange n'ibindi.

Izi ni zimwe mu nzu zigira ubucuruzi butandukanye, bacuruza imyenda itandukanye, imyenda myinshi kandi myiza, bacuruza ibikapu, bagacuruza inkweto, bajyana bakiriya babo kubereka imyenda igiye itandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyoku kurya, ibyo kunywa bigezweho, ibisembuye n'ibidasembuye, ibyo kurya by'amoko yose, ni karibu murisanga ni ahantu heza ho kuruhukira.

Inzu y'ubucuruzi butandukanye, ubucuruzi bw'imvangavange, buhuriwemo n'ibintu bitandukanye, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibikoresho by'isuku, imbuto n'amafumbire.

Inyubako usanga ifitemo imijyango irenze itatu, ikaba irimo amazu y'ubucuruzi, atari ya mazu y'ubucuruzi ahubwo ngo uyu mujyango ucuruza ibi, ahubwo aba ari imvange. Usanga butike imwe irimo ibyo kujya, irimo amavuta yo kwisiga, irimo irimo amakara, ibintu bitandukanye.

Inzu ishinzwe ibijyanye n'amasuku yo mu mutwe. Kogosha abagore imisatsi, kagosha ubwanwa, gutunganya imisatsi, gutunganya inzara, aha ngaha bambika abageni, bakora indabo, bakagira n'impeta.

Izi ni inzu zicuruzwamo ibintu bitandukanye, bacururizamo amarangi yo gutera inzu, bagacururizamo ibikoresho by'amasuku:amabase, amasahani, habamo umuryango utanga iby'irembo, kwishyura mituweri ,bagufasha kwishyura amashuri y'abana ,bagufasha no kudekarara cyangwa gusaba ibyangombwa. Aya mazu agiramo: n'imineke, n'imbuto ,n'ibyo kunywa, aya mazu agiramo ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo n'ubucuruzi bw'inkweto ubwo gukora inkweto nshyashya, imyenda, ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunwa n' imyambaro.

Inyubako y'ubucuruzi ibamo ibyo kurya bitandukanye, hakabamo amakeke yifashishwa mu birori by'amasabukuru, hakabamo ibyo kurya by'ubwoko bwose: inyama, ibirayi, n'ibyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi, inzu y'ubucuruzi ifitemo ibicuruzwa bitandukanye: ibyoku kurya, ibyo kunywa, ibikoresho by'amasuku, ibikoresho byo murugo, ibikoresho byo kubaka.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibyo kunywa n'ibyo kujya, hakaba hari ibyo kunywa byo kunywa by'ubwoko bwose, ibisembuye n'ibidasembuye, ibijyo bitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibikomoka ku matungo hakaba hari n'amacumbi.

Ubucuruzi bukorerwa mu miryango itandukanye, hamwe barahogoshera, batunganya imisatsi, kandi harimo ibyo kurya bitandukanye n'ibikoresho by'amasuku ndetse n'inkweto hasi hasanzwe.

Inzu icuruza imiti y'imyaka, imiti tukoresha dutera imyaka bakaba bagira imiti y'ubwoko butandukanye, iyica udukoko ,imiti y'ibigori, imiti ikiza ibigori nkongwa.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo:amatelefoni, amagaze, indangururamajwi , ibintu byose dukenera mu buzima bwa buri munsi wabihasanga.

Ahantu tugomba gufasha mu gufura, gufura imyenda, amashuka, ibiringiti byo kwiyorosa, amakoti aremereye, bagufasha kubizinga neza, bakabitera n'ipasi, bakabinanura. N’amakoti yo mu bukwe, nayo barayamesa, bakayatunganya neza, kumwe n’amarido.

Inzu usanga ihuriwemo n'abantu batandukanye bari gucuruza ibintu bitandukanye, ibyo kujya, ibyo kunywa, imyambaro, imbuto byose babigira.

Izi ni inzu z'ubucuruzi, zicururizamo ibintu bigiye bitandukanye , habamo ibyo kunywa ibisembu, n'ibidasembuye, bagira amazi, bagira imitobe ,bagira n'ibyo kurya.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo, ni ibikoresho by'isuku twifashisha mu kunywa amazi, mu kunywa ibikoma ,ni ibikoresho byiza dukenera mu buzima bwa buri munsi, mu bijyanye no gukoresha mu bisukika.

Ubucuruzi bw'ibyo kuryamaho harimo matela, imisego n'ibyo kwiyorosa ibiringiti. Ni ubucuruzi bwiganje mu karere ka Musanze, buba bufite ibijyanye no kuryama by'ubwoko bwose.

Inyubako y'ubucuruzi icuruzwamo ibintu bitandukanye, ibyo kunywa ,imitobe ,imiceri no kurya ibikoresho by'isuku, amasabune n'amawomo n'ibindi byose.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo ibintu byose bitandukanye, imipira y'imbeho, udutambaro, ibishora, udukapu, amabote. Harimo ibintu byose bitandukanye bacuruza.

Inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye ibikoresho byo mu rugo, higanjemo ibikoresho byo mu rugo, habamo usanga higanjemo amasafuriya, ibikombe, amavuta yo kwisiga ,n'udukapu n'uduswara.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye, harimo imyenda, inkweto, ibyo kurya imiceri, kawunga bacuruza ibintu byose bitandukanye wabihasanga.

Inzu icuruza ibikoresho bitandukanye byo ku buriri; amamatera meza cyane, imyenda yo gusasa ku mamatera, ibintu byose bijyanye n'igitanda, imisego, byose wabihasanga.

Amazu y'ubucuruzi akorerwamo mu bicuruzwa usangamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibitenge, ibikoresho byifashishwa mu kubaka amabati, imisumari n'amasima byose wabihasanga.

Ubucuruzi bw'ibyo kurya bwiganjemo:imboga, nshuruza, tungurusumu, ibitunguru, inyanya ama beterave byose wabihasanga.

Inzu icuruza ibikoresho by'ubukwe mu makanzu, igira amakanzu y'abageni ,igira amapantalo y'abagabo, igira indabo zo gutegura ubukwe, ibintu byose bijyanye n'abageni biba bihari.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigezweho by'iterambere mu myenda y'abagabo n'iy'abasore n'iy'abana, inkweto z'icyiciro cyose ku bana bakuru n'abari hejuru y'aho byose wabihasanga.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye byo kurya, ibyo kunywa , imyambaro, hakabamo n'aho kurara, amagaburo ya saa sita n'aya nijoro. Byose birahari.

Aha ni inzu icuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye: amusiteri, virunga haba habaga kotsa burusheti bagatanga amafiriti, bagatanga ibyo kurya bitandukanye, bakagira n'amacumbi ku barararamo.

Butike yo kwerekaniramo imipira bacuza n'ibyo kurya amaburushete, inyama zokeje, amafi yokeje. Berekana imipira ari igikombe c'isi, cy'ibihugu byose barabyerekana. Bagateka n'amafiriti n'ingoko.

Imwe mu nzu z'ubucuruzi zinacumbikira abantu bavuye ahantu hatandukanye, zibaha amacumbi bakabamo, zikabagaburira, zibaha ibyo kunywa, baba bafite umutekano wuzuye n'ibyabo birinzwe.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zicuruza ibikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi. Zirafotoza zikora amafoto magufi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icuruza ibyo kunywa, ibisembuye n'ibidasembuye. Igira amata, igira amazi, ibamo n'ibyo kurya habamo n'imiti y'isuku.

Mubucuruzi bw'imbuto y'ibirayi, bafite ibirayi byo kugurishamo imbuto, ibirayi byo kurya, ibirayi bitoya n'ibinini, amoko yose y'ibirayi wayahasanga, ubucuruzi bw'ibirayi barabukora.

Inyubako y'ubucuruzi bacuruza ibintu bitandukanye, ibikoresho by'ubugeni, habamo mikino y'amahirwe, imikino y'amahirwe iguhesha amahirwe habamo aho kurira, hakabamo na esanseri.

Aha ducuruza usanga bacuruza ibintu bijyanye n'impapuro, amakaramu, amakayi amakereyo, gufotora impapuro ku... kugufasha ibikoresho kubikora bagakora amakompiyuta bakagira ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nk'amasharijeri, imigozi yo gucaginga n'ibindi bitand...

Inzu y'ibikoresho bitandukanye. Ibikoresho by' amasuku yo mu rugo, ibikoresho byo gukoropa inzu, amatiyo y'amazi, amacupa afata amazi n'ibindi byose.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Bacuruza amayinite, bacurukura ibikoresho by'isuku harimo amabase, bacuruza inkweto, bacuruza ibyo kurya, bacuruza n'amata.

Inzu y'ubucuruzi, aha bacuraza amazi yo kunywa two kwikoresha udukoresho tw'amasoku, ibyo kunywa, bagacuruza amayinite, bagacuruza n'ingufuri.

Inyubako z'ubucuruzi zicuruza ibijyanye n'ibicanwa. Harimo amagaze, amashyiga ya kijyambere acomekwa ku muriro w'amashanyarazi n'ibindi.

Ubucuruzi bw'ibikoresho by'amasuku, ifufu y'isabune dukoresha tumesa, twoza ibintu bigacya, iyo koza ibikoresho, amasabune y'amazi, byose twifashe mu masuku wabisanga hano.

Korari nziza cyane iri mu rusengero, irimo iraririmba yambaye neza, bafite ibyuma bigezweho, udukururamajwi, inyunguramajwi. Bari kuririmba mu nzu y'Imana mu rusengero.

Icumbi ryitwa Virunga dusanga mu Karere ka Musanze, ni icumbi ricumbikira abantu batandukanye abakerarugendo, abaturage basanzwe, hakaba hari ibikenerwa byose aho kuryama, ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Amacumbi yo gusohokeramo, ushaka kuruhura mu mutwe ushaka kuhakorera imishinga yawe, haba harimo ubwogero aho kujya kogera mu gihe unaniwe, hari ibyo kurya hari ibyo kunwa, hafite buri gikorwa cyose cyagufasha kumera neza.

Ahantu igihe waba ufite urugendo rurerure uza ugasaba icumbi aya ni amacumbi yo kuraramo, bakakugaburira bakaguha aho kuryama hakaba hari amazi n'ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Inzu igira amacumbi magari icumbikira abantu batandukanye. Ikaguha aho kurara, ika kugaburira, bakaguha ibyo kurya ku giciro cyo hasi, iba n'ahantu habereye hari amahumbezi wakwishimira.

Isoko ricuruza ibyo kurya, rikaba ricururiza ku bisima hejuru, bakaba bafite umunzani wo gupima, bafite amavuta yo guteka indagara, imiceri y'ubwoko bwose, amasukari, amasabune, byose birahari.

Isoko ryiza cyane ducuruza karoti, imboga zitandukanye, urusenda, imeteja. Abantu baza guhaha hano bagira amahirwe, kuko bahasanga ibintu byose bikenewe, kandi bigitoshye.

Aha ni isoko ricuruza ibyo kurya, amavuta yo kwisiga, amabiswi, ibikoresho byo koza amasahani n'amasafuriya, n' ibikoresho by'isuku. Amavuta yo kwisiga, ari aya mazi ari nafashe.

Isoko rya kijyambere ririmo ibikoresho byose. Ibikoresho by'isuku harimo amabase, amasahani, imyenda. Habamo abadozi, isoko rifite buri kimwe gikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Haba mo ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Isoko ricuruza ubu ni ubucuruzi bw'amavuta yo kwisiga n'ibikoresho by'isuku , harimo amavuta yo kwisiga afashe , uburoso bwo koza amenyo, udusizo, imakasi, bacuruza n'amatara.

Isoko rya kijyambere rigira ibintu byose bitandukanye riagira inzoga zisembuye n'izidasembuye. Iri soko rigira ubuki bunyujjijwe mu ruganda n'ubutanyujijwemo. Rigira ibirungo bitandukanye.

Isoko ry'imyenda itandukanye , imyenda y'abana, imyenda y'abakuru, imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, imyenda y'ubwoko bwose wayihasanga. Harimo imyenda ifunitse , amashati y'abagabo n'ay'abagore.

Amasoko acuruzamo ibintu bitandukanye, isoko rigari iririmo umwanya w'imbuto, umwanya w'imyenda, umwanya w'ibikoresho. Buri kintu cyose ukaba wagisanga aho gikwiye kuba kiri kandi hasa neza.

Isoko ricuruza indagara, udufi dutoya twumukije. Bagira udufi turimo umunyu n'ututarimo umunyu, bakagira n'amafi batetse mu mavuta.

Ubucuruzi bw'imboga ,zimwe mu mboga zamamaye cyane zikunzwe isombe. Isombe ni imboga nziza zera ari nyinshi, zikera vuba, tuzisanga mu masoko atandukanye y'ahantu hatandukanye bazicuruza.

Inzu icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo: indangururamajwi, imigozi yo gucaginga terefone, amapushete, ibikoresho byose by'ikoranabuhanga birahari.

Iyi ni inyubako y'isoko riba mu karere ka Musanze, rigiramo ibintu byose ari ibyo kurya, imbuto, n'imboga, n'imiti.

Ubucuruzi buteye imbere bw'ibyo kurya, ibihaza, imboga, habamo amateke, habamo ibitunguru, habamo n'amafu, hakabamo n'imiceri, ibintu byinshi biba bihari.

Imbuto y'ibirayi bya kinigi, ibi ni ibirayi byitwa kinigi, n'ibirayi byiza biryoha, bikomera, byera vuba bikera ari na byinshi, bikaba n'ibirayi binini.N' ibirayi bikomeza umubiri biba amafufu.

Mu bucuruzi bw'amavuta yo kwisiga, bacuruza umuti wo gusiga ku nkweto, bacuruza amavuta y'igikotora, bacuruza ubwoko bw'amavuta butandukanye butuma umubiri umererwa neza.

Iyi nyubako ya Goyiko puraza iboneka mu mugi wa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni inyubako igeretse gatanu. Ni inyubako nziza igezweho y'iterambere. Ifitemo imbere isoko imyenda, inkweto, imyenda y'abana, ibikoresho by'umuntu. Ifite isuku ihambaye, habamo resitora. Inyubako ni nziza igaragaza iterambere ry'Igihugu cyane.

Ubucuruzi bw'imbuto nziza ziryoshye zitwa Marakuja, ni imbuto nziza zicuruzwa cyane ku masoko, zigurwa cyane, zikinjiza amafaranga, bigatuma n'abazirya bagira ubuzima bwiza.

Isoko ry'ibyo kujya mu isoko riri gucuruzwamo ibyo kurya bitandukanye, byiganjemo imboga, inyanya, amapavuro, imiteja, ibitunguru, amashufureri, mbese ibijyanye n'imboga n'amakaroti birahari.

Aha ni isoko bari gucuruza. Isoko riba rita ritari ndani mu soko. Ni amasoko abera hanze y'amazu ku mihanda. Bari gucuruza ibintu bitandukanye: imbuto, amavoka, imineke, imbuto zigiye zitandukanye, aho wazibona byihuse utarinze ujya ku isoko, ahubwo aho ngaho mu giturage ku mihanda, ahantu hagiye hatandukanye.

Ubucuruzi bw'ibitambaro byo kudodesha. Badodeshamo amapantaro, amakanzu, amashati, ingutiya. Bagira n'imashini zihita zigufasha bakakudodera ugatahana ipantaro zawe zimeze neza.

Ubucuruzi bw''ibintu dukenera buri munsi bitandukanye: amasabune yo gufura, ibirungo byo mu biryo, uburoso bwo kuborosa, gutunganya amenyo. Ibikoresho by'isuku usanga tubifite ahantu hose.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'ubwoko bwose, ryitwa Goicco Plaza, ni isoko ririmo ibintu byose, inkweto, imyenda, ibyo kurya, n'ibikoresho by'isuku.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye imyenda ,udufuka two guhahiramo two gutwaramo ibyo wahashye ,inkweto, ni isoko rihurirwamo n'abantu benshi rirema mu cyumweru kabiri, riba rifite ibyo umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi.

Ibyokurya byiza cyane biba bikozwe mu birarayi n'ibitunguru. Bitunganywa mu birarayi bakabishyira mu mavuta, bikaba byavamo ibindi byo kurya byitwa ibiraha byiza cyane. Bicururika, kubicuruza biroroha kandi biragurika.